Abantu bicaye ku ntebe zitukura bakurikiye ikiganiro cyangwa se inama barimo bagezwaho ndetse ubona ko bari bitwaje ibikapu ndetse bafite amazi ari hasi y'inyange.

Abaturage bicaye hasi, ndetse ubona ko higanjemo abagore ndetse n'abakobwa, barimo bumva inama ziturutse ku bayobozi bari imbere, ndetse hari n'ushinzwe umuteka, na daso wambaye impuzankano ye isa n'icyatsi.

Tafisa, ni umushinga wubuyobozi ku buryo abaturage bayoborwa neza, kandi umuturage akamenya y'uko umuyobozi agomba kumukemurira serivisi zose ashaka.

Abantu bari munama rusange nyunguranabitekerezo, bakicara hamwe bakiga kuburyo bateza imbere koperative yabo bityo nabo bakagira ubushobozi.

Abari mu nama nyunguranabitekerezo biga ku mihindagurikire y'ikirere, n'uburyo bateza imbere igihugu cy'u Rwanda bityo bikaba byagirira akamaro abagituye.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi isa n'igitaka, n'ipantaro isa n'icyatsi ndetse n'isaha y'umukara ahagaze imbere y'icyapa cyamamaza, insanganyamatsiko barimo bavugaho, ndetse agira icyo abwira abamukurikiye.

Abagore bambaye neza cyane bari munama yiga kwiterambere ry'umugore nka mutima w'urugo bityo bikaba umusingi w'iterambere m'umuryango.

Abayobozi bari mu nama ya yuweni, yiga ku mihindagurikire y'ibidukikije, bakaba bafatiyemo ingamba z'uburyo barwanya imihindagurikire y'ikirere.

Abaturage bicaye bateze amatwi bari mu nama barimo gusobanurirwa n'umukozi ubishinzwe uburyo bashobora kwifashisha kugira ngo babone serivisi nziza zihuse kandi zibanogeye.

Abayobozi bicaye bari mu nama; harimo abagore batatu ndetse n'abagabo babiri, bose hamwe bakaba batanu ndetse bafite odiyanse iri kubakurikirana. Inyuma yabo hari icyapa kiriho insanganyamatsiko y'ibyo barimo bavugaho.

Abantu bahuriye mu nama rusange irimo kwiga ku bukungu ndetse n'uko ifaranga ry'igihugu barizamura, bityo igihugu na cyo kikaba cyatera imbere n'abaturage bacyo bagatera imbere.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umukara tsiri wambaye ikote ry'umukara ndetse na karuvate isa n'umukara n'ishati y'umweru, uri imbere y'abandi bagabo batatu bafite imashini ndetse bigaragara ko bari mu nama biga ku kintu runaka ndetse n'imikorere muri rusange.

Abaturage biganjemo abakuze, barimo gusobanurirwa uburyo bwiza bwo kwiteganyiriza kur'ejo hazaza bwitwa ejo heza.

Inama rusange yatemberaniye hamwe igamije kukwiga ku kibazo cy'imihindagurikire y'ikirere, ibyo ngibyo bikaba bituma imyaka yo mu murima itera neza.

Abakozi bakorera mu Rwanda bakaba bicaye ari batanu barimo kwigira hamwe uko bakemura ikibazo cyugarije kampani yabo kandi bafite ikizere rwose.

Abagabo n'abagore bari mu nama, barimo kungurana ibitekerezo kw'iterambere ry'igihugu cyacu. Ndetse bageze ku ntego yuko bagomba guhitamo gukorera igihugu cyabo.

Abakameramani bafite ibikoresho, barimo bafata amafoto ndetse n'amashusho y'abayobozi bicaye bari mu nama ndetse imbere y'abo bayobozi hari mudasobwa ndetse na mikorofone zibafasha kuba barangurura amajwi no kuba bakwandika ibyavugiwe muri iyo nama.

Amahema ateye neza y'umweru arimo abaturage bategereje ibirori bitandukanye barimo baribaza niba ntacyo bafite cyo gukora.

Umupolisi wambaye impuzankano yiwe ndetse n'ijile yanditseho polisi inyuma mu mugongo, ahagaze imbere y'urubyiruko rufite icyapa mu ntoki ndetse ubona ko bari kwamamaza ndetse no gukumira icyorezo cya virusi itera sida, ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Umugabo wambaye ikote rijya nko gusa n'umukara, imbere ye hateretse mikorofone isa n'umukara ndetse na ji y'inyange n'amazi y'inyange afite ikayi n'ikaramu ndetse n'urupapuro, arimo aganiriza ku banyamuryango ba kapani bahuriyemo cyangwa se n'ikigo bahuriyemo.

Abagabo n'abagore, bose bicaye batuje, bari mu nama nyungurana bitekerezo, kugira ngo bigire hamwe ku kibazo bafite mu bukungu, babashe kuba babuzahura.

Abantu bari mu nama nyunguranabitekerezo, yiga ku iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'uburyo bashobora gushyira imbaraga mu rubyiruko, kuko ari wo musingi w'iterambere ry'ejo hazaza.

Umugore wambaye ishati y'umukara irimo uburongo busa n'umweru, mo imbere yambariyemo ishati y'umweru, yambaye n'amarinete ndetse afite umusatsi w'umukara tsiri, ari imbere ya mikorofone ndetse no mugatoti atanga ikiganiro yateguriye abaturage.

Abagabo bicaye mu nama ndetse n'umugore uri imbere, imbere yabo ku meza hari amazi ndetse na ji z'ubwoko bw'inyange, ndetse n'amakayi n'amakaramu bandika ibirimo bivugirwaho.

Umugabo wambaye kositime isa n'ivu, ndetse n'inkweto za shokora, za congo, afite mikorofone mu ntoki yiwe ndetse yambaye ishati y'umweru, ahagaze imbere y'agatuti arimo atanga ijambo ku baturage, ndetse ruguru hari abandi bayobozi bicaye mu myanya y'icyubahiro, ndetse inyuma yabo hari icyapa, kiriho insanganyamatsiko bariho baganiraho.

Umuzungu wicaye mu nama, aho akurikirana ijambo ririmo rivugwa n'umugabo wambaye rakosite isa n'ivu ndetse n'amarinete, ndetse imbere yabo hari impapuro ndetse n'amaterefone aho barimo bandika ndetse bananariza ku byo barimo bigaho.

Abagabo babiri basa inzobe umwe wambaye ikote risa n'ivu ndetse n'ishati y'umweru, ndetse uteganye n'uwambaye ikote ry'ubururu ryijimye ndetse n'ishati y'ubururu bwerurutse, imbere yabo hari ibitabo amakaramu ndetse n'amazi, ndetse ubona ko bitabiriye inama runaka ariko nabo ubwabo barimo baganira ku byabereye mu nama.

Abantu bicaye ku ntebe zitukura ndetse n'abandi bicaye ku ntebe zitukura ariko imbere yabo hari ameza asa n'igitaka ariko imbere yabo hari amazi, hari ibitabo, hari amakayi n'amakaramu bandika ibyavugiwe muri iyo nama.

Umugabo wambaye ishati ya medinirwanda ufite mikorofone isa numukara nuntoki ziwe imbere hari icupa ryamazi telefone ingofero ndetse ikayi nikaramu bimufasha kuba yayobora cyangwa agakurikirana inama neza.

Abari mu nama bateze amatwi Kandi bari kureba uri kubasobanurira neza uko ka company ihagaze, ibyo yahombye ibyo yungutse muri rusange.

Umuyobozi urimo gusobanura impamvu ikigo cyabo cyaguye mu gihombo mu minsi mike ishize, akaba ari kubizeza yuko bagiye kubikosora.

Abagabo n'abagore bari mu nama rusange barimo gutega amatwi ibyo umuyobozi wabo w'umugore arimo kubamenyesha ndetse akaba ari no kubibasangiza.

Umugore ufite amadirede wambaye ishati itukura ndetse yegeranye n'umusore wambaye rakosite ya oranje ndetse n'undi mugabo wambaye ishati y'ubururu, imbere yabo hari amacupa y'amazi ya nili ndetse bafite n'ibitabo.

Umunara w'itumanaho wa emutiyeni cyangwa eyateri uri ahantu hiregeye kugira ngo ubashe kuba watanga amarezo kuba baturage batuye hafi aho.

Icyapa gifite insanganyamatsiko ugira uti" ukwezi ko gushimira abasora bibiri na makumyabiri na gatatu, ndetse saba fagitire ya EBM wubake urwanda.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda reveni otoriti, kirimo gutangaza ko gishaka gutanga igihembo cyo gushimira abasora neza.

Serivise z'irembo ni nyinshi, ariko bari kwigisha uburyo ushobora kuzajya uzisabira wibereye iwawe murugo n'igikoresho cyawe, cya elekitoronike utarinze kuva aho uri.

Urubuga rusabirwaho serivise zitandukanye za leta rwitwa irembo. Rurimo kwerekana uburyo ushobora kwikorera ndetse ukanisabira serivise zitandukanye.

Imbonerehamwe yo kuva bibiri na cumi kugeza bibiri na cumi n'umunani igaragaza ukuntu abanyarwanda bagiye bagura ifatabuguzi rya interineti bibiri na cumi bari miriyoni imwe.

Serivise z'Irembo zisabirwaho serivise zitandukanye, urugero abinjira n'abasohoka ushobora gusaba serivise zerekeranye nabyo.

Umukozi uri muri sitidiyo aho arimo aratunganya amashisho yifashishije imashini uruganda rwa ecipi, iri mu ibara risa n'ifeza ifite amaputo y'umukara.

Ikigo cy'irembo, kirimo kwerekana uburyo ushobora kwiyandikisha, ku kizamini cy'uruhushya rw'ikiciro kisumbuyeho urugero niba ufite kategori A.

Ishusho y'irembo. Ushobora kwisabire serivise zitandukanye, urugero; ushobora nko gusaba yuko viza yawe bayongera, ukoresheje uru rubuga.

Abagabo babiri uwambere wambaye umupira w'umuhondo uwundi bari kumwe wambaye umupira w'umutuku, barimo gutanga serivise zo gukata amatike y'abagenzi bagenda mu modoka rusange

Abantu bicaye hamwe batagereje, bakaba bari ku kibuga k'indege bategereje yuko amasaha agera kugira ngo amasaha indege yabo iri buhagurukireho agere.

Urubyiruko rutandukanye rwicaye ahantu hatuje ruri gukoresha ikoranabuhanga ,mu kugira ngo babashe kuba bagira ibyo bakora bakeneye kandi bibafitiye akamaro bityo bazatere imbere.

Icyapa kiriho kampani nyinshi zicyamamazaho, hariho emutiyeni, eyateli payi savisezi, ndetse na bake ajeti na ekwiti n'izindi, ni icyapa cy'umuntu washyizeho ko izo serivisi zose azigira.

Ibyapa biri hejuru ku ipoto bigaragaza ko aho hari noteri w'ubutaka ndetse noteri wikorera, ndetse hari na serivisi z' iirembo munsi y'icyo cyapa biragaragara ko hari urujya n'uruza rw'abantu.

Urubuga rw'irembo rwerekana ko hari serivise nshyashya yamajije kuzanwa na rwo, aho hariho nimero ndetse n'imbuga ushobora kuba wabasangaho ndetse n'ibyo bazanye ku isoko bishya.

Ikigo cy'igihugu rura insipiringi developumenti, mu magambo arambuye ni Rwanda yutiliti regulatori otoriti kikaba cyashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga.

Hasigaye iminsi ibiri gusa, Ese turikumwe? Iyingiyi ni serivise ya leta yo gutera inkingo abenegihugu bose kugira ngo babeho neza.

Icyapa cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda, kimenyekanisha ipatanti y'umwaka wose ya bibiri na makumyabiri gatanu cyangwa igihembwe cya mbere uyu munsi wishyure mbere y'itariki ntarengwa ya mirongo itatu n'imwe z'ukwa mbere bibiri na makumyabiri na gatanu, banakubwira ko wasura urubuga rwabo ari rwo www rr gov. rwa.

Umunara muremure cyane utanga umuyoboro wa interinete kubatuye muri aka gace kugira ngo babashe kuba bakoresha ikoranabuhanga mu buryo busesuye.

Ikigo cy'igihugu arafi eyi, Rrwanda foresitiri ofotiti, cyerekana uburyo mandate ya finanse mu Rwanda ihagaze, rimwede dekoreti ofu adiminisiterasheni.

Urubuga rw'irembo rukomeje kwigisha abantu uko basaba serivise zitandukanye, bibereye mu rugo bakoresheje ibikoresho byabo bya elegitoronike.

Intego intumbero zo kugira ngo ugire ubuzima bwiza ibi bikaba zaratanzwe mu bibiri na cumi na gatanu.

Urubuga rufasha abashaka akazi ndetse n'abagatanga, kuba bahura bakareba ibisabwa ndetse n'igihe bifata ndetse n'ibisabwa muri rusange kugira ngo umukozi abe yatangira akazi ke.

Uburyo ushobora kwiyandikisha kugira ngo nawe uzabe umwe mubazaparitisipa muri kigali kwitaliki ya cumi nikenda z'ukwakabiri.

Ipoto y'amashanyarazi iriho insinga zijyana umuriro mu baturage kugira ngo babashe gukora imirimo ifitiye igihugu akamaro, kandi ikaba bateza imbere.

Umukozi wa REG Rwanda Energy group; arimo kumanika icyuma cyabugenewe, kugirango kizage gifasha umuturage kubona amashanyarazi yo kwifashisha mu mirimo ya buri munsi.

Ipoto z'amashanyarazi zigiye zitandukanye harimo izigemura umuriro ahantu kure cyane hakaba n'izindi ntoya zo zifashishwa mu kugeza umuriro mu giturage ahantu hatari hanini cyane.

Ipoto y'amashanyarazi iriho insinga zijyana umuriro mu baturage kugira ngo babashe kuba bakwiteza imbere babone n'uko bacana mu gihe cya ninjoro.

Ipoto y'amashanyarazi, itanga umuriro mu giturage, bityo bakabasha kuba babona umuriro mu masaha ya ninjoro, ndetse ukabafasha no gukora ubucuruzi bwabo.

Bisi itwara abagenzi, isa n'ubururu, itwara abagenzi bahagaze ndetse n'abandi bicaye, iciye ku cyapa cyongererwamo abagenzi, ndetse hari umugenzi wicaye usigaye, ubona ko yiteguye kuba yabona indi modoka.

Amapoto y'umuriro w'amashanyarazi yifashishwa mu kugeza amashanyarazi kure cyane mu baturage, bityo hakaba hari imirimo ifitiye igihugu akamaro kandi iteza imbere abaturage ibasha gukorwa.

Ipoto y'amashanyarazi iriho insinga zitwara umuriro ziwujyana muduce dutandukanye tw'igihigu, umuriro w'amashanyarazi ukaba ufasha muri gahunda zitandukanye urugero nk' ubucuruzi ndetse n' ibindi..

Ipoto iriho insinga zijyana umuriro wamashanyarazi mubaturage bakawifashisha mukuba bacana nijoro no mubikorwa bitandukanye ,iruhande hariho inzu nziza cyane ifite amabati y'umukara.

Ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi muri karitsiye, ndetse hepfo hicaye umukorodoniye urimo ukora inkweto ndetse ubona ko hirya hari izindi nzu z'ubucuruzi zicuruza z'amabutike ndetse n'ikindi gipangu kiri hino gituyemo abantu.

Inzu z'ubucuruzi ziri ku murongo harimo izicuruza ibikoresho by'ubwubatsi, izicuruza ibikoresho bitandukanye, izirimo alimantasiyo zifite na parikingi.

Icyapa cyerekana ko imbere gato hari imihanda ibiri ishamitse ku muhanda mugari ndetse hari uw'uburyo utambitse usohoka muhanda mugari, hari n'uw'ibumoso utambitse usohoka mu muhanda mugari. Hari n'amapoto y'amashanyarazi ndetse n'ibinyabiziga bikoresha umuhanda mugari.

Ipoto itwara insinga z'amashanyarazi ndetse iriho n'itara ryo ku muhanda, ni ipoto ririho insinga zifasha abahaturiye kuba babona umuriro w'amashanyarazi ndetse munsi hicaye umugabo wambaye ijire bigaragara ko ashinzwe umutekano, naho ku rundi ruhande hari undi mugabo wambaye itaburiya isa n'ubururu.

Icyapa gisa n'icyatsi cyandikishijweho n'amagambo asa n'umweru, kirimo kiranga ko ukomeje hari umupaka wa Gatuna, ndetse aho hari puwa ruru, ndetse hirya hari Muhanga na Musanze, ushobora guhita uhagana ukomeje ku ruhande rwo hirya. Naho inyuma hari ipoto rifasha gutambagiza umuriro w'amashanyarazi.

Ipoto z'amashanyarazi zifashishwa mu kujyana umuriro ahabugenewe iruhande rwazo hari ibiti byiza cyane biyungurura umwuka duhumeka ukaba mwiza.

Inzu isa n'umweru, hari gipangu kiyikikije ndetse kiyirindira umutekano, ndetse inyuma y'igipangu hateye ibiti biba byafasha abaturiye muri iyo nzu kuba babona umwuka mwiza ndetse no kuba hagaragara neza uhabonye.

Umuriro w'amashanyarazi, uri ku mapoto, agenda aca hirya no hino, ufasha abatuye mu gihugu cy'u Rwanda, mu mirimo yabo itandukanye, ndetse bakabasha no gucana nijoro hakabona.

Abagabo bambaye amataburiya y'umweru, bicaye imbere ya mudasobwa barimo bakurikirana umurwayi kwa muganga; ndetse bafite inyandiko mu ntoki zabo, barimo bakora akazi ndetse bicaye ku ntebe zisa n'umukara.

Aho ushobora guparika imodoka yawe hatwikiriye, bityo mugihe imvura yaba iguye imodoka yawe ikaba itanyagirwa ndetse nizuba ntiyiyishishure.

Aho babika amacupa ya gaze y'ibiro hafi makumyabiri nabitanu hakaba hose hafunze neza cyane kugirango bidakubaganwa

Umumama uhagaze, uvuye kugemura, ari kuri telefone, kugira ngo abwire abo yasize mu rugo uko yasanze umurwayi ameze.

Umuhanda nyabagendwa uriho inzu zitandukanye zaba iz'ubucuruzi, ndetse n'izindi zikorerwamo serivise zigiye zitandukanye zose wakenera.

Inzu ndende ifite icyumba kigari, aharimo umugore wambaye itaburiya isa n'umweru ndetse harimo n'intebe zisa n'umukara ndetse harimo imiryango n'amatara amurika cyane, bigaragara ko ari kwa muganga ndetse biteguye batanga serivisi.

Ahari abantu batandukanye bafite ibibazo bitandukanye, bose bahuriye ku ivuriro kugira ngo bavurwe.

Ubusitani bwiza cyane buteye amabengeza buteyemo akajaride keza cyane karimo indabo nziza, harimo n'ibiti byiza cyane urugero, imikindo, imyembe n'ibindi.

Imfungwa zambaye imyenda isa ndetse bahagaze kuri gereza ifite urukuta rurerure ndetse ku ruhande hari abashinzwe umutekano bambaye impuzankano, bigaragara ko bari guhabwa amabwiriza mbere yo kwinjira.

Abacamanza, abashinjacyaha, bose barimo kurahira imbere y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, kuko binjiye mu mwuga.

Igazeti ya leta yo ku itariki makumyabiri z'ukwacyenda bibiri na cumi n'umunani, irimo amategeko ahana ndetse n'ingingo zisobanutse neza mu ndimi zose.

Igikuta kirekire cya gereza ndetse ni igikuta gifite uburebure bugari cyane ku ruhande hari inzu isa n'umutuku nayo ndende ihagararwamo n'umucungagereza igihe yitegeye infungwa zose zirimo munsi

Abagabo babiri bambaye amakanzu asa n'umweru ndetse n'agatambaro k'umweru imbere n'abandi bagore bambaye amakanzu y'umukara ndetse n'agatambaro k'umweru imbere, bahagaze bifotoza, babiri muri bo bambaye amarinete ndetse bigaragara ko ari abacamanza cyangwa se abashinjacyaha cyangwa se abavoka.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida wa Repebulika Polo Kagame, akaba ari na we mugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda aradiyefu.

Polo Rusesabagina urimo kuburanishwa ku byaha aregwa, arikmwe n'umushinjacyaha iruhande rwe rw'iburyo hakaba hari n'umwavoka.

Ese wari uzi ko? Ukwiye kwirinda abagira ibyo bagusaba bakwizeza kuzagufasha kubona ubutabera mu nkiko. Birinde ubutabera ntibugurwa.

Umuyobozi wa komoni werifu arimo aratanga ibisobanuro bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere ibyo bikaba bigira ingaruka zitandukanye.

Gereza nkuru ya nyarugenge ifite urukuta rurerure cyane rureshya na metero enye yubakishijwe amatafari ahiye ndetse ikaba irinzwe.

Igazeti ya leta yerekana amategeko by'umwihariko ku ngingo yayo ya karindwi, ivuga ko isakaza rya raporo ya komisiyo rigomba kubaho.

Imfungwa zambaye agapfukamunwa ndetse n'amapingu ku maboko zirimo ziyoborwa n'abashinzwe umutekano bambaye impuzankano zisa ndetse barimo bakaraba mu ntoki bakoresheje handi sanitayiza kugira birinde indwara.

Imodoka irimo isohokamo imfungwa zambaye agapfukamunwa, ndetse n'ikabutura isa n'iroza ndetse n'ishati isa n'iroza, zirimo zitonda umurongo ndetse ku ruhande hari abashinzwe umutekano barimo bazikurikirana, nabo bambaye agapfukamunwa ndetse n'imyenda y'impuzankano yabo.

Abaturage barimo bakoma amashyi bambaye imyenda itandukanye, abambaye imipira y'umweru ndetse nabandi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, imbere yabo hari umusore nawe wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipanaro y'umweru. Inyuma hari icyapa kiriho n'ikirangantego, ndetse n'amagagambo gisa umweru, cyandikishijweho n'amagambo asa n'umukara, handitseho inkiko gacaca ubutabera bwunga.

Ushinjwa yambaye imyenda isa n'iroza ndetse ku ruhande hari avoka w'iwe wambaye ikanzu y'umukara. Ndetse ruguru hari abacamanza bicaye mu ntebe ndetse barimo bakurikira ibyo umucamanza ndetse n'umushinjacyaha barimo bavuga.

Umugabo wambaye ikanzu itukuye ifite igitambaru cyumweru imbere ndetse ari mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu ku myaka mirongo inani , mu imbere yambariyemo ishati isa n'umukara.

Kizimya mwoto iri mu ibara ry'umutuku ifite umugozi w'umukara, iyi ngiyi yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro mugihe yafashe inyubako.

Imodoka yahagaritswe ku ruhande na polisi y'u Rwanda ishinzwe umutekano wo mu muhanda kugira ngo bayibaze ibyangombwa niba ibyujuje baraza kuyireka igende nta kibazo.

Umuporisi urimo urarangira umugenzi wayobye ari kumurangira aho ashaka kwerekeza, hari umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga ndetse n'amamoto.

Kizimyamoto yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro ndetse n'uburyo ishobora gukoreshwamo byose biranditse kandi byarasobanuwe neza.

Imodoka yifashishwa na Polisi yo mu Rwanda, ikaba iri mu bwoko bwa yundayi, ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse ikaba ifite n'ibirango bya polisi bigenda bimurika mu nzira.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, amamoto ndetse n'ibindi. Ibinyabiziga bitwara abantu n'ibintu imvura imaze kugwa bwenda kwira.

Umuporisi wambaye impuzankano ahagaze imbere y'imodoka yo m'ubwoko bw'ijipe ndetse ni ku kigo cya porisi yubatse m'uburyo bugeretse ndetse ifite amabara umweru n'ubururu bwijimye.

Kizimyamwoto, itiyo ya kizimyamwoto irimo amazi ashobora kwifashishwa mu gihe inyubako ifashwe n'inkongi y'umuriro mu buryo butunguranye bityo bikarokora abantu.

Rwanda nashono polisi aha ngaha ni sitasiyo ya polisi iherereye Nyarugenge ikaba iri mu murenge wa Rwezamenyo, aho ushobora kubona serivisi zigiye zitandukanye kuri polisi.

Kizimyamwoto iba ifite ibara ry'umutuku, iteretse ahabugenewe kugira ngo izifashishwe mu gihe hari inkongi y'umuriro ibaye, bityo ibashe kuba yawuzimya ntiwangize.

Kizimyamwoto iri mu ibara ry'umutuku ifite umupira w'umukara iyi ngiyi yifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro ikaba yagufasha kuwuzimya nta gikuba gicitse.

Ikinyabiziga polisi yifashisha ishami ryo mu muhanda, kikaba kiriho ibirango bya polisi mu ibara ry'umukara n'umweru ndetse hakaba n'impuruza hejuru y'imodoka.

Imodoka isa n' umweru hejuru ifite amatara y' umutuku ndetse n' ubururu , inyuma yanditseho polise, iparitse kunyubako igeretse ndetse kuruhande hari gutambuka abanyamaguru , munzira yabugenewe ndetse hirya hari umuhanda unyurwamo n' ibinyabiziga.

Urubyiruko rutandukanye rwahuriye ahantu hamwe kugira ngo bumve ibyo musenyeri wabo ababwira akaba ari butange igitambo cy'ukurisitiya.

Abakandida, abayobozi, barimo kurahira imbere y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, yuko batazahemukira igihugu cyababyaye, kandi bazakora ibyo bemeranyijwe.

Umuyobozi yambaye ikote risa n'umukara, ahagaze ku gatuti, ndetse imbere ye hari mikorofone nyinshi zirimo zifata amajwi ye. Ziyazengurutsa kugirango abaturage bose, babashe kumva ibyo avuga.

Umugabo uhagaze wambaye ikanzu itukura ndetse n'ingofero isa n'umukara ndetse arimo areba umugabo wicaye urimo usinya ku gitabo, ndetse ruguru hari umugore wambaye umukenyerero usa n'ubururu urimo urebera.

Perezida wa repeburika w'urwanda ari kumwe numuyobozi mukuru wa furankufone kwisi yose ruwize mushikiwabo.

Umwe mu bayobozi bari bariho mu gihugu cy'u rwanda mu myaka ya cyera bari mu bavugaga rikijyana kuko abaturage bamukundaga cyane!

Abagabo n'abagore bari mu nama nyunguranabitekerezo ku mihindagurikire y'ikirere ndetse n'uburyo bateza imbere ubukungu, binyuriye kw' ireme ry'uburezi.

Aho baje kwamamariza umukandida w'ishyaka rya efuperi Inkotanyi, akaba yaje kwiyamamariza hagati aho abaturage bashobora guhurira ari benshi.

Umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yambaye ikote ryiza cyane z'umukara, amarinete ya filime y'umukara.

Umugabo ufite ubwanwa, ufite umusatsi, wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati isa kake.

Repubulika y' u Rwanda, komisiyo y'igihugu y'amatora, amatora y'abadepite yo mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani, twitabire amatora twese duhitemo neza, abaturage bazindukiye muri iki gikorwa cy'amatora.

Ifoto y'abagabo babiri bicaye ku ntebe ndetse n'undi mugore nawe ukenyeye wicaye ku ntebe, inyuma hari abantu barindwi harimo abagore batanu ndetse n'abagore n'abagabo batatu.

Abayobozi bambaye amakote y'amabara atandukanye bicaye mu ntebe zisa n'ubururu ndetse imbere yabo hari ameza ariho ibitabo byabo ndetse n'amaterefone ibikoresho byabo muri rusange ndetse bigaragara ko bakurikiye undi muyobozi uri kubaha inama.

Umugabo wambaye ikote risa n'ubururu na karuvati itukura ndetse n'ishati y'umweru; yicaye kumeza asa n'umweru afite mudasobwa ndetse hari mikorofone imuri imbere yanditseho tivi wani ifite umugozi usa n'ubururu biragaragara ko ari gutanga imbwirwaruhame.

Ahabera inama zitandukanye urugero inama ziga kubukungu kwishoramari ndetse nibindi, abicayemo bose bateze amatwi ndetse barimo no gukurikirana ibijyambere.

Abayobozi batandukanye bafashe ifoto y'urwibutso barangije inama yiga ku buryo ibihugu byombi u Rwanda na Afurika y'epfo bishobora gufatanya mu by'umutekano wo mu kirere nuwo ku butaka.

Umunyapolitike ukomeye cyane mu Rwanda witwa uwiringiyimana Agathe akaba yarabaye minisitiri w'intebe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Tabulo igaragaza uburyo amavuriro ya leta agiye apanzwe mu byiciro ni ukuvuga kuva kuz'igihugu, kugeza ku mavuriro mato ari mu gihugu.

Umugabo n'umugore bari mu naba yiga ku buringanire, ndetse n'ubumwe n'ubudaheranwa biranga abanyarwanda muri iki gihe.

Abaturage bambaye imyambaro irimo amabara atatu, harimo ubururu, umweru ndetse n'umutuku ndetse bafite n'amadarapo asa atyo, aha yanditsemo efuperi, bigaragara ko bari gukora kampeyini bamamaza umukandida w'iryo shyaka ryabo.

Darufu umurinzi iri mwidarapo ry'igihugu cy'urwanda ibiganza bifashe izuba kikaba gisa nkaho ari ikirangantego cyabo, umurinzi darufu.

Umukandida w'ishyaka arapiyefu inkotanyi perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, akaba ari nawe ceyamani w'umuryango wa arapiyefu inkotanyi.

Abayobozi bicaye ku meza ariho igitambaro gisa n'umukara ndetse imbere yabo hari amadarapo, bamwe muri bo bambaye ingofero abandi ntazo bambaye, imbere yabo hari n'amakayi abafasha kuba bakandika ibirimo birabera mu nama gusa inyuma hari icyapa kiriho insanganyamatsiko itumye bari aha.

Umugabo ndetse n'umugore bahagaze bambaye amashati asa, ndetse umugabo afite ingabo n'icumu mu ntoki ziwe ndetse mu mashati bambaye harimo igisiga ndetse umugabo asa n'igikara ndetse umugore asamo n'inzobe yerurutse.

Abayobzi batandukanye bari mu nama y'umushyikirano barangajwe imbere na perezida wa repubulika y' u Rwanda nyakubahwa Polo Kagame akaba na ceyamani w'umuryango wa efuperi Inkotanyi.

Abayobozi bicaye ku ntebe zisa n'umukara tsiri, imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'amazi ya nili abafasha kuba bakica akanyota igihe bakurikira inama ndetse ku ruhimbi hari intebe nazo zisa n'umukara z'abayobozi barimo babagezaho ijambo.

Umugabo wambaye ikote risa n'umukara na karuvati y'umukara irimo uturongo tw'umweru ndetse n'ishati y'umweru n'amarinete y'umukara, afatanyije icyapa cyamamaza Wodi vijeni n'umugore ufite imisatsi w'umukara tsiriri ndetse wambaye amarinete, wambaye n'ikanzu isa n'umukara.

Umuhanda nyabagendwa wo ku kinamba, wiganjemo ibinyabiziga bitandukanye, ariko ibyinshi akaba ari amapikipiki, ndetse umuhanda urasukuye urakubuye.

Imodoka ya dina ifite ububiko inyuma aho batwaramo imizigo ndetse n'imodoka isize ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, irimo igendera mu muhanda ubona ko igiye kuba yadepoza umuzigo itwaye cyangwa se igiye kuba yapakira imizigo mo indani.

Umuhanda nyabagendwa, w'ikerekezo kimwe, ugaragara ho amapikipiki aparitse ku ruhande, arimo ashaka abagenzi, ndetse n'abantu barimo kujya muri gahunda zabo za buri munsi.

Muri gare yo mu mujyi, ahategerwa imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, haba hariho aho abategereje imodoka bashobora kwicara, bakaba baruhuka mu gihe zitari zaza.

Inzira nyabagendwa irimo ibinyabiziga bitandukanye, higanjemo amakamyo atwara ibicuruzwa abivana ahantu hamwe abijyana ahandi, ku mpande y'umuhanda haba hateye ibiti byiza biyungurura umwuka duhumeka.

Umuhanda nyabagendwa, urimo ibinyabiziga bitandukanye, urugero; ibyifashishwa mu bwikorezi, ibitwara abagenzi rusange, ibitwara abagenzi kuri moto, n'ibindi.

Abaturage bo mu gihugu cy'u Rwanda, bagenda bishimye bitewe n'uko leta yabo yabashyiriyeho amashuri, ndetse ikabafasha mu gutera ibiti, byongereye umwuka mwiza wo guhumeka mu baturage.

Umuhanda nyabagendwa w'ibyerekezo byombi, ucamo ibinyabiziga bitandukanye. Hari gucamo ikinyabiziga gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, gifite ibara ry'umweru.

Ikinyabiziga gitwara imizigo, kiri mu muhanda nyabagendwa urimo n'izindi modoka, zaba iz'abantu ku giti cyabo ndetse n'amamoto atwara abantu, akabafasha mu kwihutisha akazi.

Ibiti biteye iruhande rw'umuhanda, biyungurura umwuka duhumeka, bikadu umwuka mwiza wa ogisijene mu muhanda harimo imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo, itwara ibicuruzwa ibivana mu gihugu kimwe ibijyana mu kindi.

Ikamyo yo mu bwoka bwa hoho iri kugenda mu muhanda nyabagendwa iri mu ibara ry'umutuku, inyuma yayo hari imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ariko yo itwara abanyeshuri.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange y'ikigo cy'ubucuruzi cya ritiko, iparitse mu muhanda nyabagendwa irimo abagenzi bategereje kugira ngo ibajyane aho bagiye.

Ibiti by'icyatsi byiza cyane biteye iruhande rw'umuhanda, bikaba bifasha mu kuyungurura umwuka duhumeka uyu muhanda nawo ni nyabagendwa urimo ibinyabiziga byinshi.

Igikamyo gisa n'umutuku kirimo kibisikana n'ikindi gifite kontineri isa n'umukara mu muhanda aho birimo bijya mu byerekezo bitandukanye ndetse bitwaye imizigo ndetse mu muhanda birimo usa n'umukara tsiri.

Ibiti byiza cyane biyungurura umwuka duhumeka bikaduha umwuka mwiza wo guhumeka wa ogisijene, bigatwara umubi. Biteye iruhande rw'inzira nyabagendwa, irimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye.

Umuhanda, nyabagendwa, urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo by'umwihariko ama pikipiki niyo agaragara cyane, arimo arazamuka muri uyu muhanda, atwaye abagenzi.

Umuhanda nyabagendwa w'icyerekezo kimwe unyura ahantu hatuye abaturage n'inzu z'ubucuruzi, harimo inzu z'ubucuruzi bucururizwamo amata n'ibyo kurya, izibamo amabutike n'izindi.

Imodoka zitandukanye muri gare haba izizanye abagenzi n'izindi zibatwaye. Imodoka ziri mu bwoko butandukanye harimo iza yutongo ndetse n'izindi zitwara abantu bake bake ubona ko hari urujya n'uruza muri gare, ndetse ku modoka ya yutonngo isa n'ubururu itwara n'abagenzi bahagaze.

Umuhanda nyabagendwa w'icyerekezo kimwe utatswe n'ibiti byiza cyane bitanga akuka ko guhumeka, urimo kunyurwamo n'ikinyabiziga gitware ibikoresho by'ubwubatsi.

Imodoka nziza cyane itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikaba iriho na nimero ushobora kuyihamagaraho mu gihe uyikeneye, ikaba ari iya kapani yitwa yego kabuzi.

Ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara imizigo, cyo mu bwoko bwa fuso, kirimo kwinjira mu muhanda nyabagendwa, kugira ngo kigeze ibicuruzwa aho bigomba kuba biri.

Ibiti byiza cyane biyungurura umwuka duhumeka wa ogisijene biteye iruhande rwinzira nyabagendwa irimo gucamo ibinyabiziga bitandukanye.

Ibiti biteye iruhande rw'umuhanda nyabagendwa, bishobora kuba biyungurura umwuka duhumeka, bikaduha umwuka ogisijene. Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka na moto nyinshi.

Abanyonzi bari mu muhanda, bajya gusatira umuhanda w'abanyamaguru, ndetse hari umunyonzi uri kugendera mu gisate cy'umuhanda w'abanyamaguru, ndetse muri uwo muhanda ucamo ibinyabiziga harimo ikamyo itwaye imizigo ndetse n'abamotari, ndetse na yutungo itwaye abagenzi.

Umuhanda nyabagendwa munini wo kukinamba iruhande rwayo haparitseho ikamyo nini cyane ya rukururana yifashishwa mukuzana ibicuruzwa no kubisohora mugihugu.

Ikamyo isa n'umweru itwara imizigo ku ruhande hari umuyonzi wambaye ingofero isa nu'ubururu, uhetse umugenzi ku igare ndetse ikamyo ryabisikanye n'imodoka itukura, irimo ijya mu cyerekezo kinyuranye n'icy'iyo kamyo.

Bisi ihagaze muri gare isa n'icyatsi ndetse itwara abagenzi benshi, imbere yayo hari indi bisi bimeze kimwe ariko yo isa n'umweru, ndetse bihagaze ubona ko bitegereje abagenzi kugirango buzure ndetse zibe zabajyana mu byerekezo byabo bajyamo.

Igikamyo gifite kontineri isa nicyatsi kirimo kigenda mumuhanda ndetse kuruhande hari umunyonzi urimo ujya mukerekezo cyinyuranye nicyiyo kamyo.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabaiziga bitandukanye, byaba ibitwara ibintu, ibinyabiziga by'abantu ku giti cyabo, harimo n'amagare.

Umuhanda nyabagendwa, urimo ibinyabiziga bitandukanye, ama moto, ku ruhande rwawo, hari na parikingi iparitsemo imodoka nyinshi ziteye amabengeza, iz'umutuku, iz'umukara, n'izumweru.

Moto ya rifani yagenewe kuba yatwara imizigo mitomito mo inyuma, isa n'ubururu ndetse ifite amapine atatu, inyuma yayo hari imodoka ndetse isize ibara risa n'ivu ndetse imbere yayo hari indi rifani nayo y'amapine atatu ariko nini mo, itwara imizigo nayo.

Moto za Rifani zitwara imizigo zisa n'ubururu ndetse zifite shitingi hejuru, ku ruhande hari umunyamaguru uri gutambuka ndetse hari n'abantu ku ruhande barimo bapakira izo modoka zitwara imizigo ndetse bari mu bucuruzi n'ubuhahirane ku mpande zombi.

Moto ya rifani isa n'ubururu ifite shitingi hejuru isa n'umukara ifite amapine atatu ndetse itwaye imizigo mo inyuma irimo ica mu muhanda aho ijyanye umuzigo kuba yawu depoza.

Ikinyabiziga gitwara imizigo cyo mu bwoko bwa hoho, kirimo kumanuka kijyanye ibintu byose banyirabyo bashaka, kikaba kiri bubigezeyo amahoro, kubera y'uko kiri kugenda muhanda mwiza.

Umuhanda w'ibyerekezo bitandukanye urimo ibinyabiziga bitwara abantu muburyo bwa rusange ndetse iruhande rwayo hari amabotike ushobora kuguriramo.

Abaturage barimo bagenda mu muhanda udacibwamo n'imodoka ndetse n'abandi bicaye barimo bakoresha enterinete, bahaha, bakora ibikorwa bitandukanye. Bigaragara ko hari urujya n'uruza rw'abantu barimo bajya mu ngeri zitandukanye.

Inyubako y'amagorofa abiri, ifite n'ikibuga cya basikete, cyo gukiniraho kiriho abana barimo gukina iyo nzu yubakishije amabati y'umutuku n'amatafari ahiye.

Imitako ya kinyarwanda yo mu bwoko bw'intango imanitse iri mu mabara atandukanye y'umweru n'umukara, umuhondo, icyatsi kaki, ubururu, orange.

Ikibuga kirimo igitaka hasi gikinirwamo tenisi(tennis ) ndetse ku ruhande hari intebe zicarwamo n'abaje gukurikirana uwo mukino .ndetse n'ikibuga cyubatse ku buryo hari ibiti biri ku ruhande bifasha abakinnyi kuba babona umwuka mwiza bahumeka igihe bakina.

Abana bari ku kibuga cy'umupira w'amaguru, bakaba barimo gukina bose bishimye, inyuma yaho hari inzu babamo kandi ababyeyi babo nabo bari aho bari kubategurira amafunguro.

Murakaza neza muri Repuburika y,Urwanda. Icyapa giherereye ku mupaka ushobora kubona kugirango, kikwemeza nezako utangiye gukandagira k'ubuta bw'Urwanda.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya kare, kikaba gifite ibara ry'umuhondo, kikaba cyerekana ahari ubunyerere bw'imodoka.

Abaturage baje kwihera ijisho amarushanwa ya turu di Rwanda, ari kubera mu karere ka Muhanga, aya marushanwa ari kubera muri Muhanga, kugira ngo basiganwe mu ntera y'ibirometero ijana.

Umuhanda muremure urimo imirongo isa n'umuhondo icagaguye ndetse hari imikindo kuruhande rw'igisate kimwe, itandukanya imihanda uko ari yombi ndetse hirya hari umunyamaguru urimo utambuka.

Ikimenyetso cyo mu muhanda kigaragaza aho abana bambukira umuhanda, kikaba ishusho yacyo ari mpande eshatu.

Icyapa kinini cyo mu muhanda kimenyesha yuko aho hantu nta kinyabiziga cyemerewe kuhaparika na kimwe, kikaba kiri mu byapa bibuza.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga, gifite impande umunani, kizengurutswe n'ibara ry'umweru, kikaba cyandikishije ibara ry'umweru.

Icyapa cyo mumuhanda kiri mu bibuza gifite ishusho y'uruziga, gisize ibara ry'umweru ariko rizengurutswe n'ibara ry'umutuku, kiri aho abashoferi babona.

Akarere ka Bugesera aho gatandukanira n'umujyi wa Kigali, umuhanda werekezayo usa neza cyane urimo imodoka zirikwerekeza mu ubugesera.

Ibyapa biriri, icya mbere kiri mu ishusho ya kare, ariko ishusho yacyo ikaba ari mpande eshatu, kigaragaza aho bambukira.

Umuhanda werekana ko imbere umuhanda munini uraza guhita wegerana ukaba umuhanda muto, iki ni icyapa giteguza umuyobozi w'ikinyabiziga kwitonda igihe atwaye.

Ikimenyetso cyo mu muhanda, ishusho yacyo ikaba ari kare, cyerekana y'uko utemerewe gukomeza imbere udahagaze byibura, kikaba kiri mu ishusho y'umuhondo, ariko ibimenyetso biriho, biri mu ibara ry'umutuku n'umukara.

Icyapa cya mpande eshatu kiri mu ishusho y'umweru, uzengurutswe n'ibara ry'umutuku, kikaba kimenyesha yuko imbere hari amatara amurika.

Icyapa cyo mu muhanda. Ishusho ni mpandeshatu kizengurutswe n'ibara ry'umutuku; kikaba cyerekana yuko imbere gatoya hari ibimenyetso bimurika byo mu muhanda.

Icyapa kiri mu ishusho y'impande eshatu, kiri mu ibara ry'umweru, kizengurutswe n'ibara ry'umutuku, kikaba kimenyesha abashoferi bose ahari ibikorwa byo kubaka.

Icyapa cyo mu muhanda, ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko uri mu ibara ry'umutuku, icyapa kikaba cyandikishijwe ibara ry'umukara, bisobanura umuhanda munini uhura n'umuto.

Icyapa kiriho umugabo ufite igitiyo uri kuyora umucanga ndetse n'icyapa kigaragariza umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbere harimo harasanwa umuhanda cyangwa hari ibikorwa by'ubwubatsi.

Icyapa cyanditseho ko nta parikingi y'ibinyabiziga ihari, kiba mu ishusho y'uruziga kikaba kigiye kiba kiri mu ibara ry'umweru ndetse uzengurutswe n'ibara ry'umutuku ribuza.

Icyapa kigaragariza umuyobozi w'ibinyabiziga ko imbere gato hemerewe kuba haparikwa na bisi, ndetse ukwiye kugenda buhoro kuko ikinyabiziga Kiri imbere yawe gishobora kuba cyahagarara mumwanya muto.

Ipoto y'amashanyarazi iriho insinga zijyana umuriro mu baturage, mu midugudu iri hafi ahongaho bakawifashisha mu gucana, ndetse no mu kazi gatandukanye ka buri munsi.

Ibiti by'imikindo, biteye hagati y'imihanda ibiri, ndetse bigabanya ibisate bibiri by'imihandajya bijya mu byerekezo bitandukanye, ndetse hirya hari inzu za etaje, z'ubucuruzi, zikoreramo ababizinesimani, ndetse ubona ko hari iterambere.

Umuhanda nyabagendwa ufite inzu ziri kuruhande rwaho zisize ibara ry'umweru ndetse hakaba hari n'amadirishya y'ibirahure bya fime.

Umudugudu mwiza cyane, urimo inzu nziza za kadasiteri harimo izigeretse, ariko inyinshi muri zo zifite amabati y'umutuku, kandi zose zifite umuriro w'amashanyarazi.

Inzu igeretse ku ruhande ifite amavandarateri afasha kwivana umwuka hanze, awinjiza mo indani kugira ngo mo indani hataza kuba hashyuha, ndetse iyo nzu ikikijwe n'igipangu gisa umweru hejuru, ndetse cyubakishijwe n'amatafari ahiye.

Urujya n'uruza hagati muri korodori ndetse hari abamotari, abakarani, n'abandi bantu benshi batandukanye, ndetse hari inzu z'ubucuruzi ku mpande zombi, ndetse hagati handitsemo giporoso korodori bigaragaza amerekezo y'aho hantu ifoto yaba yarafatiwe.

Inyubako ya etaje yitwa steyi apatimeti ndetse ifite igipangu cy'ibibaho ndetse ubona ko ari aparitoma nziza isize risa n'umuhondo ndetse n'irindi bara ry'umukara k'urundi ruhande ndetse inzu ifite imikindo iteye mu mavase hanze.

Umuhanda urimo unyurwamo n'abanyamaguru ndetse kuruhande hari inzu zigeretse zubatse mu buryo bwiza ndetse zifite ibipangu kuburyo birinzwe muburyo bw'umutekano wazo.

Inzu igeretse ifite amabati atukura ndetse isize irange ry'umweru ku gice kimwe n'irindi range rijya kwijimaho, ni inzu ituwe yitwa aparitimenti.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse ikikijwe n'igipangu k'ibyuma ndetse nacyo cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse ubona ko ari inzu y'umuntu cyangwa se ikodeshwa n'abantu benshi.

Umudugudu mwiza cyane urimo inzu zo mu bwoko bwa kadasiteri zifite amabati y'imituku ndetse n'ay'umuhondo, zikaba ziherereye Kimironko mu mujyi wa Kigali.

Imudugudu ituwemo n'abaturage benshi cyane, inzu ziganjemo zikaba ari izo mubwoko bwa kadasitare zifite amabati atukura n'ay'umuhondo.

Imodoka ziparitse hirya munsi ya etage; ndetse n'izindi zirimo zigenda mu muhanda, ndetse hari ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi mu nyubako ndende hafi aho; ndetse hari inyubako ndende iriho antene zifasha mu itumanaho.

Ibiti byiza cyane biyungurura umwuka duhumeka biherereye muri Nyagatovu aho abaturage benshi batuye babasha kubona umwuka mwiza.

Hafi y'ikibuga cy'indege cy'i kanombe hari resitora nziza cyane yitwa eyi eyi ikorera mu nyubako nziza cyane ifite parikingi ihagije kandi ijyamo imodoka nyinshi icyarimwe.

Umuhanda nyabagendwa, unyurwamo mu byerekezo byombi, urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto, ndetse ku ruhande muri parikingi haparitse n'ibinyabiziga by'imodoka.

Inyubako igeretse gisa n'umweru ifite igipangu gisa n'umukara ariko gifite ibirahure bisa n'umweru, imbere hari umuhanda unyurwaho n'abaturanyi.

Inyubako igaragaza amashuri, abana bashobora kwigiramo ibintu bitandukanye mu masomo yabo. Ndetse hari n'imodoka ziparitse ku ruhande.

Inzu ya etaje isa n'ibara ry'icyatsi ndetse ifite ibirahure bibonerana ni inzu ifite igipangu k'ibyuma gisa umukara ndetse n'umuhondo ndetse ubona ko ari inzu ishobora kuba iberamo ibintu bitandukanye haba kuba ituyemo abantu bayikodeshamo ndetse n'ibindi.

Umumotari uhagaze ku gipangu gisa n'umukara ndetse kizengurutse inzu y'umweru, ndetse hejuru hari ibiti byiza, umumotari yambaye kasike isa n'umuhondo ndetse atwaye moto itukura ahagaze umwanya muto yitegura kuba yabona abakiliya.

Imodoka ziri muri parikingi zitandukanye zo mu bwoko butandukanye, harimo lava fo hakabamo vewiti hakabamo n'amavatiri abazivuyemo bari kwerekeza mu nzu.

Inyubako igeretse ikoreramo serivise zitandukanye urugero hari ikaragiro ry'amata ry'Inyange ndetse hakaba na farumasi dinye.

Umuhanda ucibwamo n'imodoka mu byerekezo byombi zijya ahantu hamwe; ariko ku rundi ruhande hari izindi zibisikana na zo. Uwo muhanda ucamo umurongo w'umuhondo, uzigabanya.

Umuhanda w'umukara ndetse ufite igice giteyemo umukindo, unatandukanya ibisate by'umuhanda ku buryo abayobozi b'ibinyabiziga biborohera kuba batandukanya umuhanda.

Feruje ziri ku muhanda zagenewe kuba zahereza uruhushya abayobozi b'ibinyabiziga kuba batambuka cyangwa guhagarara umwanya muto cyangwa guhagarara. ndetse hari imirongo y'abanyamaguru bagenewe kuba bacamo igihe bava ku gisate kimwe bajya ku kindi, mu gahanda k'abanyamaguru ndetse feruje zatse icyatsi.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi iriho insinga zijyana umuriro mu baturage, kugira ngo baze kuwifashisha mugihe cya ninjoro bacana amatara.

Umugabo urimo wambukira mu mirongo y'umweru yagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru igihe barimo bava ku gisate kimwe cy'umuhanda bajya ku kindi mugahanda k'abanyamaguru ndetse hari imodoka yatanze inzira ihagaze.

Inzu igeretse iteganye n'umuhanda mugari, urimo amatara ayimurikira ndetse hari n'imirongo y'abanyamaguru bambukiraho bava ku gisate kimwe bajya ku kindi mugahanda k'abanyamaguru ndetse iyo nzu ikikijwe n'ibiti biyifasha kuba yabona umwuka mwiza.

Umuhanda nyabagendwa ugendwamo mubyerekezo byombi umurikirwa n'amatara yaka ninjoro ukaba umeze neza kuko uracyari mushya.

Umuhanda urimo imirongo isa n'umuhondo ndetse hirya hari abamotari babiri bahetse abagenzi, inyuma yabo hari imodoka ya vewiti isa n'umukara irimo itambuka mu muhanda aho barimo bajya mu byerekezo bimwe.

Umuhanda wa kaburimbo wubatswe na leta, urimo kwinjira mu wundi wa kaburimbo nawo. Ibyo ngibyo bikaba bigaragaza y'uko igihugu cy'u Rwanda kimaze gutera imbere, kandi ari amahoro rwose.

Umuhanda uzengurutse ndetse ufite icyapa gisa n'ubururu kigaragariza umuyobozi w'ikinyabiziga ko aho ngaho akwiye kuzenguruka, mu gihe yitegura kuba yanyura mu cyerekezo ashaka kuba yanyuramo ndetse hejuru hari amatara amurikira abayobozi b'ibinyabiziga kuba bawucamo neza kandi ntakibazo bawugiriyemo.

Umuhanda mugari urimo ugendwamo n'abamotari, bakata mu byerekezo bimwe ndetse ku rundi ruhande hari umumotari urimo ubisikana nabo ariko mu gisate kitari icyabo ndetse umuhanda ugabanyijwe n'imirongo isa n'umweru ndetse n'imikindo iteye mu butaka kugira ngo hagaragare ubwiza ndetse n'abakerarugendo babashe kwishimira umuhanda banyuramo.

Umugi wa Kigali mu mihanda yaho iyo bwije ari ninjoro yose iba ibona kuko iba imurikiwe n'amatara, ibyo ngibyo byose bikaba bibasha kugerwaho kuko hari amashanyarazi.

Umuhanda nyabagendwa, ucamwo mu byerekezo byombi, umurikiwe n'amatara yaka neza, ku buryo nijoro ibinyabiziga bibasha gutambuka bibona neza.

Umuhanda nyabagendwa, urimo isuku nyinshi kuko ukubuye ukaba urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, urugero; moto, ndetse n'imodoka yifashishwa mu gutwara ibicuruzwa.

Motari ndetse n'umuyonzi bamaze guca munsi y'ikiraro ndetse hejuru y'ikiraro na ho hacibwa n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse hombi hari umuhanda wa kaburimbo, haba munsi, haba no hejuru, hose hari umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa ugaragaza aho banyura bazengurutse nimwijoro amatara arimo kwaka, ibyo bifasha abatwaye kubona neza aho banyura.

Ubwoko bw'ipikipiki ya lifani yifashishwa mu gutwara ibintu ariko bitari byinshi cyane, ushobora kuyifashisha urimo kwimura nk'utuntu kandi rwose tukagerayo amahoro.

Umuhanda nyabagendwa, uherereye ahagana mu Gakinjiro, ukaba urimo amatara arimo ibimenyetso bimurika ni ukuvuga fe ruje, zifasha imodoka kugenda zitagonganye.

Umuhanda nyabagendwa ugendwamo mu byerekezo byombi. Ukaba urimo imodoka zitandukanye, iziganjemo n'umukara ndetse harimo n'amapikipiki.

Umuhanda nyabagendwa w'ibyerekezo bibiri, ikerekezo kimwe kirimo ikinyabiziga cya moto, gitwaye umugenzi, uyu muhanda ukikijwe n' ibiti.

Umuhanda nyabagendwa urimo gucamo imodoka nyinshi zitandukanye, ziri kujya mu byerekezo byombi, imbere yaho hari ibimenyetso byo mu muhanda bimurika, bibafasha kugira ngo bagende mu muhanda neza rwose.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, urugero; amamoto, imodoka n'ibindi. Uyu muhanda ufite ibiti biwukikije, biyungurura umwuka duhumeka.